Umwana mutoya winshuke wambaye neza ari mu kayira agana ku ishuri, mu gahanda k'amabuye, arasa neza nk'uwitaweho rwose.

Icyapa cyanditseho amagambo manini cyane agira ati: "Tura heza" gusa yanditse mu buryo butandukanye kuko inyuguti zimwe zanditse mu ibara ry'ubururu izindi mu cyatsi kibisi.

Abana benshi bari mu irerero bambaye impuzankano y'umuhondo, ubwo ni amashati ndetse n'amapantaro y'icyatsi kibisi, bigaragara y'uko bari guhabwa uburezi ndetse bitabwaho.

Ishusho y'igipupe cyangwa se igikoresho gikoreshwa gihendereza cyangwa se kirera abana. Ni kiza gifite amatwi, mbese kirakeye pe.

Ishusho cyangwa se ifoto ishushanyije y'ibiti ndetse n'ingemwe ishushanyije mu ifoto y'icyatsi kibisi.

Ishuri ry'inshuke rigaragaramo ibishushanyo by'inyajwi ndetse n'iby'ingombajwi, bigaragara ko bifasha abana mu kwiga kandi hari n'utubati tugiye turimo ibitabo bigiye bitandukanye.

Irerero ry'incuke, abana beza bambaye imyenda y'impuzankano, bicaye ku kumusambi, barishimye cyane.

Ifoto y'inka ishushanyije mu ibara ry’umweru n’umukara, cyangwa se iyo dukunze kwita ngo ni inka y'ikibamba. Ishushanyije ku gikuta gisize irangi ry’umuhondo.

Inyubako yubatswe isize umucanga, isakaje amabati yubururu, imbere yayo y'inyubako haru umwana mutoya wambaye impuzankano ari ku ishuri.

Abantu bari ahantu mu cyumba kinini kisanzuye hari abadamu bicaye ndetse n'abana babo bakiri batoya, imbere hahagaze abayobozi, harimo n'umusirikari bigaragara ko bari kubaha ubutumwa.

Icyapa kinini cyane kizengurutse kiri mu marangi y'ubururu ni'icyatsi kibisi, kiriho imibare rimwe, kabiri, ndetse na gatatu.

Ishuri ry'abana bo mu nshuke ryigirwamo n'abana nyine bakiri batoya, hateguyemo ibishushanyo by'ingombajwi ndetse n'inyuguti harimo n'ibindi bishushanyo bigaragara ko bifasha abana mu myigire.

Ishusho y'abana ishushanyije, bigaragara yuko bari hamwe ,imbere yabo hagati harimo umutoza ,ni ishusho igaragaza nk'aho uwayikoze yarari kugaragaza ubugeni bw'abana batoya.

Abana batoya abo twakwita nk'inshuke bari ku ishuri. Ishuri ryubatse neza cyane. Hagati y'ishuri hari ibendera ry'igihugu. Abana barasa neza bahetse udukapu bigaragara y'uko baje kwiga.

Inyubako zubatse neza kandi zisize amarangi zishakaje amabati y'umweru, ni inyubako z'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ibikoresho by'ishuri harimo ubwoko butandukanye bw'amabara, ibitabo, irati. Birambitse ahantu nk'ishusho ry'ibara ry'umukara.

Umwarimu ari mu ishuri ari kwigisha, ari kwandikisha ingwa ku kibaho kandi afite igitabo mu intoki, yambaye itaburiya y'umweru kandi isomo ari kwigisha ni iry'imibare.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bigaragaraga yuko, barimo baganira ku mukoro bahawe gukora.

Uducamurongo twifashishwa mu isomo ry'Imibare turi mu ibara ry'umuhondo, hari utugizwe na mpande eshatu.

Akayira k'icyaro k'igitaka imbere yako hahinzwe igihingwa cy'ibigori, hakurya hari inzu cyangwa se amashuri y'abana bato.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru ari gukina umupira n'abana, bari kuwuhanahana mu maboko umwe awuterera undi awumusubiza, inyuma ye hari abandi bana batoya bambaye impuzankano isa.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye baje bose bicaye ku kibuga bari kureba umukino w'amaboko uri kuhabera, bose urabona bishimye kubera ko bari kwitegereza mu kibuga n'umunezero.

Ishuri ryiza cyane rikikijwe n'ubusitani, muri ubwo busitani harimo icyapa gishushanyijeho ikirango k'ishuri ndetse n'ishusho y'umwana, hakurya ni umuhanda, hari ikiraro gihuza umuhanda ndetse n'ishuri.

Abana basa neza rwose abakobwa biga mu kiciro cy'amashuri yisumbuye, bambaye neza bahagaze mu rucaca.

Icyumba kinini kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano. Bafite ibikoresho nka mudasobwa. Imbere yaho hari umwarimu uberekera uburyo biga. Barasa neza, ni abanyeshuri.

Ishusho y'icyapa kiri ku kibambasi cyangwa se urukuta rw'ishuri, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, harimo intumbero y'i ishuri ni ryiza.

Abana b'urubyiruko bambaye impuzankano ndetse bafite mu ijosi amakarita abaranga, bari ku marembo y'ishuri.

Abana bo mu mashuri yisumbuye bicaye mu cyumba k'ishuri bose buri muntu wese arahuze mu mukoro bigaragara yuko bari kwiga.

Abantu bambaye amajiri, bari imbere y'inyubako ntoya, bigaragara yuko inyubako ari ubwiherero, imbere y'ubwiherero hari ikigega kinini gikusanyirizwamo amazi, avuye hejuru y'ubwiherero.

Umubare munini w'abanyeshuri bo mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye barahagaze bategereje guhabwa indangamanota zabo, bari mu cyumba kinini bambaye neza babukereye.

Urubyiruko rwambaye neza rwambaye impuzankano, imbere yarwo hari abakuze bicaye b'abayobozi bigaragara yuko bari gufata ifoto, bavuye guhabwa ikiganiro ku nkingo zigiye zitandukanye.

Ikigo k'ishuri cyubatswe hakoreshejwe amatafari y'impunyu cyangwa se dukunze kwita amatafari ahiye, hagati y'iri shuri harimo ibiti harimo amagare ahaparitswe.

Abanyeshuri bo mu kiciro cyo mu mashuri yisumbuye bari mu cyumba cy'ishuri harimo abahagaze n'abicaye bambaye impuzankano barasa neza barakeye cyane.

Abana bbanyeshuri bambaye imyenda isa, bambaye imipira iciye amaboko y'ubururu ariko harimo umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye agapira k'umuhondo.

Ku ishuri aho abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu bahagaze imbere y'abandi bafite udupapuro n'amakaramu mu ntoki, barimo basoma kandi bombi ibiganza byabo bifashe bibiliya imwe byayizamuye, barimo bavuga ibyerekeye ijambo ry'Imana.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyenda yose isa y'ishuri ndetse harimo n'uhetse igikapu mu mugongo, bicaye inyuma mu modoka ahadasakaye.

Abana b'abanyeshuri, biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano isa. Ni abana b'abahungu ndetse n'abakobwa. Bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro ya kaki, bari kugenda mu cyerekezo kimwe.

Abantu b'abasore ndetse n'abagabo bari ahantu mu cyumba cy'inyubako ariko kinini bambaye bose amajiri ndetse harimo n'uwambaye ikasike y'umweru bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi runaka.

Abanyeshuri benshi bo mu kiciro cy'amashuri yisumbuye bicaye hamwe munsi y'ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi, bagiye guhabwa amabwizwa n'abantu batatu bari imbere yabo.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore bishimye cyane harimo abateze ingofero, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Abana babanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano bicaye kandi mu gihande kimwe mwarimu ahagaze imbere bigaragara ko ari kubakoresha isuzumabumenyi.

Abantu benshi bari kugenda bitegereza mu mpande zose gusa bose bambaye amajir,e uw'imbere w'umugore yambaye ijire y'icyatsi kibisi irimo imirongo n'abandi bamuri inyuma harimo n'umugabo wambaye ingofero.

Abanyeshuri bicaye hasi mu kibuga hanze y'ishuri, bose baritegereza mu cyerekezo kimwe bigaragara ko bari guhabwa ibiganiro, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro y'umukara.

Umubare munini w'abanyeshuri bicaye munsi y'ibiti cyangwa se mu busitani bamwe bambaye impuzankano zisa n'abandi bambaye izindi zisa bari gukurikirana inama barimo bagirwa n'abayobozi.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bari kugenda mu muhanda batwaye ibikapu mu ntoki ibindi babihetse mu mugongo, bambaye impuzankano biragaragara ko bihuta bajya ku ishuri.

Abagabo bahagaze imbere y'ameza umwe ari imbere yambaye ishati kandi yatebeje afite n'igitabo mu ntoki, imbere ye hari ameza arambitseho akbvido karimo amazi bari kwitegereza akuma karambitse hasi mu muhanda.

Ihuriro ry'abantu benshi ryambaye impuzankano y'umweru hejuru, barimo baganira bari mu cyumba bizihiwe barishimye.

Abantu benshi bari mu cyumba kigari bayobowe n'umukobwa bigaragara y'uko ari kubaha impuguro runaka cyangwa se inama zigiye zitandukanye.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba biteretse ahantu hamwe babisize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo uteruye, byarumye kandi babirambitse ahantu hamwe.

Icyumba giteguye ariko kirimo umwijima biragaragara ko nta matara arimo kandi giteguyemo intebe, hicayemo n'abantu bakeya mu myanya y'imbere.

Icyumba kinini kiberamo inama, hicayemo abayobozi batandukanye imbere hari umugore uri kubabwira bisa nk'aho ari kubagezaho ijambo, hahagaze kandi undi mugabo imbere bose babahanze amaso.

Inzira nyabagendwa iri iruhande rw'umuhanda munini hakaba harimo abakobwa babiri barimo bagenda kumurongo umwe asa nkuri imbere yundi kandi afashe mu mifuka y'ikote yambaye iruhande rwabo hari jaride, hakurya yayo hari ibiti bigiye biteyemo ku buryo busa neza.

Umuhanda wubakishije amapave, unyura imbere y'inyubako nini igeretse kabiri. Hari gutambukamo umusore agana mu cyerekezo cyubatsemo ipironi rirerire ritwara umuriro w'amashanyarazi.

Mu birori byo gusoza amashuri ya kaminuza umusore uhagaze imbere y'aho bubatse itente, inyuma hicayemo abandi bantu batandukanye higanjemo abayobozi, akaba ahagararanye na mama we arimo amushimira kubera igikorwa kiza yakoze cyo kwiga neza akaba arangije amashuri ye nta kibazo.

Mu ishuri ahicaye abanyeshuri batandukanye ku ntebe, bamwe bafite amatelefone mu ntoki, abandi bafite mudasobwa barimo bakoresha kugira ngo babashe kwiga neza, abandi bakaba nta kintu bafite uretse amakayi, imbere yabo hakaba hahagaze umwarimu arimo abigisha, abaha ubumenyi bakwiye kugira kugira ngo bazabashe kwibeshaho no kwiteza imbere.

Ahantu hari ibibumbano bikoze mu ibumba bikoranye ubugeni kandi bisa neza cyane, gusa biragaragara ko bamaze kubibumba barabihatereka kugirango ngo bibanze byume.